Abantu bahagaze ahantu mu nzu, bakaba barimo baratunganya agakoresho kazwi nka burankari, aka gakoresho kakaba kifashishwa n'abaganga iyo barimo baratanga ubuvuzi bw'ibanze, aka gakoresho bakaryamishaho umurwayi, bakamujyana kugira ngo babashe kumwitaho.

Abantu bicaye ahantu bisa nkaho bari gukora inama, imbere yabo hakaba hari komite y'abayobozi ihicaye ndetse hari umugabo wambaye umupira w'umutuku wahagurutse arimo aragira ijambo ageza kuri aba ngaba baje kubakurikira.

Ni abantu bicaye ahantu, bakaba barimo baraganira. Harimo babiri bambaye amajire ya Croix rouge ndetse ku gikuta hamanitseho agatambaro k'umweru kariho ikimenyetso cy'umusaraba kiranga Croix rouge.

Ku bitaro bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, bagiye bazanamo imbagukiragutabara zitandukanye zishyirwamo abarwayi mu gihe babajyanye ku bindi bitaro bikuru, izi nk'izi zikaba ari imodoka nziza cyane ndetse zizewe.

Ni abantu bambaye imyenda ibapfutse umubiri wose, aba bantu bakaba bahetse amapompo, bisa nkaho aho bagiye mu gikorwa cyo gutera imiti yica imibu kugira ngo Malariya babashe kuyirinda.

Ni abantu bicaye ahantu mu nzu hakaba harimo abambaye amajire ya Croix Rouge. Hari kandi undi muntu bisa nk'aho barimo barasuzuma, aho ari umusore wicaye ku ntebe y'umweru bari kumufatira ibizamini, ategereje kumenya indwara yaba yarwaye.

Abaganga bicaye ahantu mu cyumba aho hari umuganga umwe w'umudamu wafashe igipimo akagishyira ku wundi mudamu kugira ngo abashe kumva uko umutima we utera, ni byiza ko tujya kwisuzumisha kugira ngo tumenye aho ubuzima bwacu buhagaze.

Ni abakobwa babiri bisa nk'aho aba bakobwa ari abaforomokazi bakaba barimo barasuzuma ibimenyetso, umukobwa umwe afite ibintu yashyize mu gacupa kabugenewe arimo arereka mugenzi we.

Abantu benshi cyane bambaye amajire ya croix rouge, bakaba barimo bafata ifoto imbere y'inyubako nziza cyane, bisa nk'aho hari igikorwa cy'ingenzi bari barimo bakora, hanyuma bakavuga bati reka dufate ifoto y'urwibutso.

Abagore babiri bakikiye abana babo, bari kumwe n'undi mugabo. Aha ngaha bari biragaragara ko ari kwa muganga, aho baje kwivuza indwara bagiye barwaye. Haragaragara ikiganza cy'umuganga uri kubakira, arimo aragenda abaka ibyangombwa kugira ngo abashe kubavura.

Abantu benshi bagiye ku kigo nderabuzima, bakaba bicaye ku murongo. Hakaba hari umuforomokazi urimo ugenda anyura muri aba barwayi, arimo agenda abasuzuma umuriro. Buri murwayi akaba afite urupapuro kugira ngo baze kubasha kumwakira.

Ni abantu barimo barifotoreza imbere y'imodoka y'imbangukiragutabara, inyuma y'abo bantu hakaba hari undi muntu uhahagaze, hari kandi n'ibiti byinshi bihateye, haragaragara n'indi modoka iparitse hirya.

Abantu benshi cyane harimo abaganga ndetse n'ababakoresha, bakaba bari kwifotoreza imbere y'ibitaro by'akarere ka Nyagatare, biragaragara ko ari ibitaro byubatse neza mu buryo bugezweho ndetse ibyo bitaro bikaba bikikijwe n'ibiti bizana umwuka mwiza wo guhumeka ku barwayi.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi aho uyu muganga yambaye uturindantoki, akaba yafashe igipimo yagishyize ku murwayi wicaye ku gatebe, arimo aramusuzuma kugira ngo amenye indwara arwaye.

Abantu bahagaze ahantu hari amapave bakaba barimo barafata ifoto y'urwibutso nyuma y'uko hari igikorwa runaka bari bamaze gukora, inyuma yabo hakaba hari inzu zihagaragara ndetse n'ibiti bibafasha mu kubona umuyaga.

Umuganga wambaye impuzankano z'abaganga, akaba afite igitoryi kirimo urushinge, aho arimo arakura umuti mu gacupa, hari ibiganza by'umuntu utagaragara neza umufatiye ako gacupa kugira ngo akuremo umuti, abashe kuba yawutera ikintu.

Abagabo babiri bahagaze ahantu hameze nk'aho ari mu nyubako bose bakaba bafashije kuri seritifika, biragaragara ko hari umwe muri bo wahawe iyi seritifika imwemerera kuba yatanga noneho serivisi zijyanye n'ubuvuzi, umuhungu umwe yambaye baje mu ijosi undi mugabo yambaye ikote ry'umukara ririho ikirangantego cy'ikigo runaka.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, aho harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, abaganga bifashisha bita ku barwayi harimo ibitanda abarwayi baryamaho ndetse kuri buri gitanda hagiye hariho inzitiramibu kugira ngo birinde Malariya.

Abantu bicaye ahantu mu biro, aho bigaragara ko barimo baraganira ku bintu by'ingenzi. Bisa nkaho hari ikintu barimo barafatira umwanzuro, hanyuma umwe muri bo akandika imyanzuro bafashe.

Abagabo babiri barimo barifotoreza imbere y'imodoka y'imbangukiragutabara, iyi modoka ikaba iparitse ahantu hasashe amapave, inyuma y'iyi modoka hakaba hari ishyamba rihari ndetse haragaragara na jaride nziza cyane.

Ni ivuriro ryubatswe mu buryo bwa kijyambere, rikaba risize amarangi y'umuhondo. Imbere y'iryo vuriro ahantu hari amapave, hakaba haparitse imodoka y'ibangukiragutabara. Hari icyapa kandi kigaragaza ko ari Akarere ka Nyagatare ndetse rikaba ari n'ivuriro.

Umukobwa wambaye imyenda y'abaforomokazi, akaba ari ahantu bisa nk'aho ari muri ofice ye, aho yakiriye abantu kugira ngo abashe kuba yabafatira ibizamini. Ku meza hateretse udukoresho twinshi yifashisha afata ibizami ndetse hari abandi bantu baje bamugana bicaye iruhande rwe.

Umuganga wambaye impuzankano z'abaganga akaba ari ahantu mu cyumba arimo ararebera mu cyuma kizwi nka mikorosikopi bisa nkaho hari ibintu runaka arimo arasuzuma, birashoboka ko ari nk'ibizamini yafatiye umurwayi akaba arimo arareba indwara irimo.

Umugore wambaye itaburiya akorana akazi ke aho arimo arandika ku kintu bisa n'aho ari kwandika ibizamini yafatiye umurwayi, iruhande rwe hakaba hari abantu bahicaye bisa nk'aho ari abarwayi baje kwisuzumisha, ku meza ye hakaba hateretse udukoresho twinshi tugiye dutandukanye yifashisha asuzuma abarwayi.

Ni umusore bisa nk'aho ari umuganga, akaba ari ahantu muri laboratwari arimo aragenda asuzuma ibizamini yafashe, imbere ye ku meza hari utuntu twinshi tugiye dutandukanye, aba ari kwifashisha asuzuma ibizamini bye.

Ni abanyeshuri ubona ko bari ahantu muri raboratwari, aho barimo baragerageza gukora ubushakashatsi basuzuma ibintu byinshi bigiye bitandukanye, imbere ku meza bari gukoreho ubushakashatsi, hariho ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye barimo barifashisha.

Ni ibiganza by'umuganga aho afashe akantu karimo amaraso bisa nk'aho uyu muganga ashaka kujya gusuzuma aya maraso, kugira ngo amenye indwara yihishe muri aya maraso. Urabona ko yakoresheje udukoresho twabugenewe.

Uducupa twinshi dupfundikije imifuniko y'umweru, utu ducupa tukaba twifashishwa n'abaganga muri laboratwari, aho bashyiramo ibizamini byabo kugira ngo baze kubipima bitonzeye, babashe kumenya indwara yaba irimo.

Abanyeshuri bari ahantu muri laboratwari, aho barimo baragerageza gusuzuma ibizamini bafashe, hari umwana umwe usa nk'aho arimo arasuzuma ibizamini yafashe kugira ngo abashe kumenya ikibyihishe inyuma, abandi na bo urabona ko bahugiye mu twabo.

Umugore n'umugabo aho umugore akikiye umwana, aba ngaba bakaba baje ku kigonderabuzima kugira ngo babashe kumva inama bagirwa n'abaganga kugira ngo babashe kuboneza urubyaro umwana wabo akure neza.

Ni umwana wicaye ahantu mu twatsi akaba yambaye imyenda ikozwe mu gitenge, uyu mwana akaba afite akantu k'agakarito kariho umwana ushushanyijeho ndetse hakaba handitseho ngo ongera intungamubiri.

Abagore babiri bicaye ahantu, umwe akaba yambaye itaburiya y'ubururu, bisa nk'aho undi mugore yaje amugana kugira ngo amuhe serivisi, uyu mugore akaba afite telefone ngendanwa, aho arimo araganiriza uyu mugore wundi wamugannye, bisa nk'aho hari ikibazo runaka arimo aramufasha.

Umukobwa wicaye hasi ku mukeka akaba ateruye kamwe mu twana twiga mu mashuri y'incuke, akaba arimo arakanywesha igikoma, aho n'abandi bana bicaye iruhande bamukikije bose bagiye bafite igikombe kirimo igikoma barimo baranywa.

Umugore bigaragara ko ari umugore w'umusirimu cyane akaba ari mu bana batoya bambaye imyenda isa ya oranje, akaba afashe kimwe mu gikoresho gakondo arimo araha umwana umwe amata, inyuma yabo hakaba hari undi mugore ufite kamera arimo arabafotora.

Abana benshi biga mu mashuri y'inshuke aho bari mu ishuri ryabo, hari kandi abantu batatu bisa nk'aho ari abarezi barimo baragerageza gusobanurira bano bana ibyo barimo barakora, buri mwana agiye afite aho yandika ndetse urabona ko bishimye cyane.

Umubyeyi wambaye umupira wa orange, akaba afite mikorofone mu ntoki, bisa nk'aho hari ubutumwa runaka arimo aragenera abamukurikiye, inyuma ye hakaba hari icyapa kiriho ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC.

Ni abantu bambaye impuzankano bakorana akazi kabo harimo amataburiya ndetse n'udupfukamunwa, biragaragara ko umugabo umwe arimo aragerageza kubabwira amategeko n'amabwiriza bagenderaho mu kazi kabo.

Ni icyapa cyanditse mu nyuguti z'umweru ndetse n'umuhondo, hakaba hariho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda ndetse hariho n'ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda.

Abantu bari ahantu mu cyumba, aho bose bahanze amaso umugabo ubari imbere wambaye itaburiya y'umweru, bisa nkaho arimo aragenda abasobanurira ku bigendanye n'ubuzima. Ku rukuta hagiye hashushanyijeho udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye. Muri abo bantu hakaba harimo n'umugore w'umuzungu.

Umugabo w'umuganga uhagaze mu biro bye, aho hagaragara akabati karimo inyandiko nyinshi zigiye zitandukanye, uyu muganga akaba afite igikoresho yifashisha apima abantu umutima ndetse hari n'ibindi bikoresho byinshi bigiye bitandukanye biri ku meza.

Ni ahantu muri sale hakaba hateraniyemo abantu bose bambaye imipira isaha y'umweru, hagati yabo hakaba harimo umugore ufite mikorofone mu ntoki aho ari kugerageza kugira ubutumwa ababwira, inyuma hari umugore wuriye ahantu arimo aratera igipapuro ku gikuta.

Abantu benshi bateraniye ahantu hakaba harimo umusore ufashe icyapa cyanditseho amagambo, undi musore umuri imbere ufite mikorofone mu ntoki arimo arasoma amagambo yanditse kuri iki cyapa, ayo magambo aragira ati: "Kugira ibitekerezo byo kwiyahura ni ikimenyetso gikomeye k'indwara y'agahinda gakabije, wibyihererana."

Ni inyubako iri ahantu hitaruye, ikaba ikikijwe na jaride ndetse n'ibiti. Ibi biti bikaba bifasha mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka ku barwayi baje bahagana. Aha ngaha hakaba hatangirwa serivisi zo kwita ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe.

Ahantu hari imbaga y'abantu benshi, hakaba hagaragara abantu babiri bambaye amajire cyangwa se inifomo za Croix rouge, aho bateruye undi muntu mu ntoki. Bisa nkaho uyu muntu yari agize ikibazo, bano bakaba bagiye kumuha ubuvuzi bw'ibanze.

Umugore uri ahantu mu nzu ya farumasi acururizamo imiti ye igiye itandukanye akaba arimo aragerageza gufata umuti umwe uri mu kayetajeri, uyu mugore yambaye umwenda w'umweru ndetse n'isaha ku kaboko bisa nkaho hari umuntu agiye guha uwo muti.

Ni inyubako bigaragara ko ari inyubako yubatswe neza mu buryo bwa etage, iyi nyubako hejuru yaho hakaba hariho icyapa kigaragaza ko ari farumasi, ku muryango hahagaze umuntu ndetse hari n'ikinyabiziga cya moto kihaparitse.

Ikiganza cy'umuntu kikaba gifashe ku ducupa twinshi tw'umweru dupfundikishije imifuniko y'icyatsi, utu ducupa tukaba turiho ikirangantego cya RBC nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Inzu ya farumasi icururizwamo imiti igiye itandukanye, imbere yayo haparitse igare ndetse na moto. Hari umuntu urimo uraza, agana ku muryango. Imbere mu kayira gahari k'amabuye, harimo umuntu wikoreye ikintu ku rutugu arimo aragenda.

Umukobwa uri muri farumasi, iyi farumasi ikaba irimo amayetageri agiye apanzemo imiti igiye itandukanye, ahangaha iyo umuntu arwaye araza agashaka imiti ubundi akishyura amafaranga akayibona akajya kwivura.

Ni mu nzu icururizwamo imiti y'amoko agiye atandukanye aho harimo umusore aho ari kugenda ashyira iyi miti ku mi mirongo, muri iyi nzu hakaba harimo etajeri igiye ipanzemo imiti y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye.

Ni umugabo w'umuganga, akaba ahagaze muri farumasi. Iyi farumasi ikaba irimo etajeri irimo imiti myinshi igiye itandukanye, bigaragara ko uyu mugabo iyo ufite ikibazo cy'uburwayi, uza ukamuha amafaranga, akaguha umuti ukajya kwivura.

Aha ni muri farumasi hakaba harimo etajeri igiye ipanzemo imiti myinshi igiye itandukanye. Iyi farumasi ikaba irimo imiti ivura amatungo ndetse n'indi miti ivura ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Ni abantu bicaye ahantu bisa nkaho ari mu cyumba cy'amahugurwa, hakaba harimo umugabo ubahagaze hagati arimo aragerageza kubabwira ibintu byabahurije aho ngaho, hejuru ku meza hagiye hariho ibitabo ndetse urabona ko abantu bose bamuteze amatwi.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye bakaba bafite ibyapa byanditseho amagambo ariko atagaragara neza, biragaragara ko bari bavuye mu gikorwa runaka barangiza bagafata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hakaba hari imodoka ihagaragara.

Ni ahantu bigaragara ko hari igikorwa cy'ubukangurambaga cyahabereye hakaba hari abantu bari imbere y'abandi, barimo baragenda batanga udukingirizo aho inyuma y'uyu mudamu uri kudutanga hari icyapa cyanditseho ngo ugakoreshe neza.

Ni abanyeshuri benshi bambaye impuzankano bakaba bari kumwe n'umurezi wabo bakaba bafashe icyapa kiriho ibintu ariko bikaba bitagaragara neza birasa nk'aho hari ikintu runaka barimo barakangurira abandi, inyuma yabo hari ikigo cy'amashuri ndetse haragaragara n'ibiti bihateye.

Abantu bicaye ahantu mu nzu, hakaba hari umwe bahagaze imbere bisa nkaho arimo arabaganiriza abaha impanuro. Abandi nabo baricaye bamuteze amatwi, barimo barumva ijambo uyu muntu yabateguriye.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bakaba bicaye ku ntebe z'ubururu, imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye ishati y'ubururu yanatebeje, aho arimo aragerageza kubaganiriza ku cyabahurije aho ngaho.

Ni umunyeshuri w'umukobwa uhagaze hagati y'abandi banyeshuri, akaba afite icyapa mu kaboko ke. Yambaye umupira w'umuhondo, bisa nkaho aba banyeshuri bandi bamukikije, bari kureba ibyanditse kuri icyo cyapa ndetse bakumva n'ubutumwa bari kubagenera.

Umugore w'umusirimu akaba afite microphone mu ntoki ze ndetse mu kandi kaboko k'imoso akaba afashemo agacupa karimo utuntu tumeze nk'utunini. Iyi ngiyi akaba ari imiti ikorwa mu buryo gakondo, aho abahanga muri byo bavangavanga ibimera bigiye bitandukanye bagakoramo iyi miti.

Ikimera cyiza cyane ubona ko gitohereye, iki ngiki akaba ari kimwe mu bimera abavuzi gakondo bifashisha bakora imiti igiye itandukanye, kugira ngo babashe kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Udutete twinshi duteretse hasi ku musambi, tukaba tugiye turimo amoko y'ibirabyo bigiye bitandukanye, aho hagaragara akandi kantu k'umweru, karimo kimwe mu kimera ndetse n'umuhini, ibi ngibi bikaba byifashishwa n'abavuzi gakondo, mu gihe barimo baratunganya imiti ivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Umugabo bigaragara ko akuze, akaba arimo arasoroma amababi y'igiti runaka kugira ngo aya mababi agende ayakoremo umuti gakondo uvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Ni umuntu wicaye ku gatebe ariko akaba atagaragara neza mu maso, akaguru ke k'iburyo gasa nkaho karwaye kuko karabyimbye cyane kararuta ak'ibumoso, uyu muntu akaba ari gukurikiranwa n'abaganga kuko hari agapfuko bamushyiriyeho, uyu muntu kandi akaba yambaye siripa z'ubururu yicaye yegamiye ku gikuta cy'inzu.

Umukeka urambuyeho utuntu tugiye dutandukanye muri buri kantu hakaba harimo ubwoko bw'ikimera, ibi ngibi bikaba ari ibimera byifashishwa n'abavuzi gakondo aho babivangavanga bakabishyira muri iyi sekuru ndetse bakabisekura bagakuramo umuti uvura indwara nyinshi zigiye zitandukanyekanya.

Mu buryo bwo gukora imiti igiye itandukanye mu buryo bwa gakondo abavuzi gakondo bifashisha ibimera bigiye bitandukanye, aho babifata bakabihuriza mu isekuru bakabisekura kugira ngo bavanemo umuti kandi uvura indwara nyinshi zitandukanye.

Abavuzi gakondo bifashisha ibimera bigiye bitandukanye mu gihe barimo baravangavanga imiti yabo ivura indwara nyinshi zitandukanye. Aha ngaha hakaba hari ibimera bigiye bitandukanye, ndetse hakaba hari n'agasekuru bifashisha basekura iyo miti, kugira ngo batunganye imiti.

Ni ahantu bisa nk'aho hari udufuka twinshi tugiye dutandukanye, muri utu dufuka hakaba harimo ubwoko bw'imiti myinshi igiye itandukanye ,iyi ngiyi akaba ari imiti yifashishwa n'abavuzi gakondo, bakoramo imiti ya kinyarwanda bifashisha baha abantu barwaye.

Abagore babiri bakikiye abana, bari kumwe n'umugabo umwe, biragaragara ko baje ahantu ku kigo nderabuzima, aho barimo barahereza ibyangombwa umuntu wabakiriye kugira ngo abashe kuba yabavura.

Ni inyubako itangirwamo serivise zo kuvura abarwayi, iyi nyubako akaba ari ikigonderabuzima, ikaba iri mu mabara y'ubururu ndetse imbere y'iyo nyubako hakaba hateye jaride nziza cyane ndetse zikikijwe n'ibiti bitanga umuyaga ku barwayi baje babagana.

Ni ahantutu bigaragara ko wagirango ngo ni muri salle yabereyemo inama, hakaba harimo abantu bitabiriye iyo nama, imbere yabo hakaba hari umuntu urimo uragenda ubabwira ibyo yabateguriye, hari n'undi mugore wambaye akantu gasa nk'aho ari ubururu agenda abaha ibyo bamuhereje.

Abantu bicaye ahantu mu nzu, bakaba hari ibintu barimo barigaho, imbere ku meza hateretse uducupa turimo imiti igiye itandukanye ndetse hakaba hari umukobwa urimo uragenda ubasobanurira, abereka ku rupapuro.

Ni ahantu mu twatsi hakaba hateyemo icyapa, kuri iki cyapa handitseho amagambo menshi agiye atandukanye, iki cyapa kikaba kiranga ivuriro ndetse biragaragara ko inyuma y'iki cyapa hari igiti kinini gihari gitanga akayaga.

Ni ahantu bisa nk'aho ari muri sale hakaba harimo ababyeyi benshi bagiye batandukanye, hagati yabo hakaba hahagazemo umubyeyi umwe wambaye itabuririya y'umweru bisa nk'aho hari ijambo runaka kandi ry'ingenzi arimo arabagezaho, inyuma hari umunzanu uhamanitse.

Ni ku kigo nderabuzima, aho hari abaturage baje bakigana kugira ngo babashe kuba bahabwa serivisi zigiye zitandukanyekanya. Iki kigo nderabuzima kikaba kiri mu mabara y'ubururu ndetse gisakaje n'amabati y'ubururu.